Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kwitabwaho n'abarezi babo babahereza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza badafite imirire mibi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri. Harimo abana bakiri bato, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Imbere yabo hahagaze umurezi wabo, aho ari kubigisha akoresheje amakaye.

Abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bahagaze ku ruziga bari kumwe n'umuyobozi wabo, aho ari kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagororoke neza bityo barusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Icyumba cyicayemo abana bakiri bato b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari kwitabwaho n'abarezi babo kugira ngo babakorere isuku bityo bakomeze kugaragara neza kandi babigisha amasomo atandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ishuri, harimo abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bari kwitabwaho n'abarezi babo, babafasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyicayemo abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari kwitabwaho n'abarezi babo babahereza amafunguro kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo imirire mibi, bityo bakomeze gutera imbere.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri. Harimo abana bakiri bato, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, kandi muri iki cyumba harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ikibaho cyo kwandikaho.

Hanze y'inyubakoikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bafite ibikoresho mu ntoki zabo batwaramo ibyo kurya kugira ngo bajye gufungura.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho. Muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho by'umwarimu ndetse n'ibitabo.

Kimwe mu cyumba kiri mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari gufata amafunguro kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, muri iki cyumba kandi harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ikibaho cyo kwandikaho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahatangirwa uburezi. Harimo utubati turimo ibitabo, aho bipanze hasi ndetse no hejuru, abanyeshuri bifashisha bari gukora ubushakashatsi bwabo kugira ngo bakomeze kongera ubumenyi kandi barusheho kuba abahanga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo utubati dupanzemo ibitabo hasi ndetse no hejuru, aho byifashishwa n'abanyeshuri baza muri iki cyumba kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi kandi banakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye imyamba y'ishuri yabugenewe, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza bityo basubire mu masomo yabo bameze neza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahari abana harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza bityo bibafashe kwiga neza.

Mu muhanda nyabagendwa ahaparitse imodoka ifite ibara ry'umweru aho abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe kandi bafite ibikapu bari kwinjira mu modoka kugira ibafashe kugera mu byerekezo bitandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho, abanyeshuri bifashisha kugira ngo bakomeze kwiga neza batarangazwa n'ibikoresho byabo.

Mu nzira nyabagendwa ahaparitse imodoka ifite amabara y'umweru, aho abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari kwinjira mu modoka kugira ngo ibafashe kugera aho bagana mu byerekezo bitandukanye bitabavunnye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, harimo abana bakiri bato, abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe kandi bafite mudasobwa imbere yabo. Muri iki cyumba kandi harimo abayobozi b'abanyeshuri.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, imbere yabo hahagaze umuyobozi uri kubakoresha ibiganiro aho ari kugenda abaha indangururamajwi kugira ngo babaze ibibazo bafite.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Imbere yabo hahagaze abayobozi, bari kubahereza ibiganiro bababwira uburyo bagomba kwitwara kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri. Harimo abana bakiri bato, abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, aho bari gusubira mu masomo yabo kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Hanze y'inyubako mu kigo cy'amashuri, ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri. Imbere yabo hahagaze abayobozi bari kubaha ibiganiro, bababwira uburyo bagomba kwitwara.

Hanze y'inyubako mu kigo cy'amashuri ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe, imbere yabo hahagaze umugabo uri gutanga ibiganiro ababwira uburyo bagomba kwitwara kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza.

Ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubakoresha inama, ababwira uburyo bagomba kwitwara.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, aho abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe bari gukoreshwa amahugurwa, imbere yabo hahagaze umugabo uri gutanga amahugurwa ku banyeshuri, ababwira uburyo bagomba kwitwara.

Hanze y'inyubako ikigo cy'amashuri ahabereye ibiganiro, byitabiriwe n'abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe. Imbere yabo hahagaze umuyobozi uri kubahereza ibiganiro ababwira uko bagomba kwitwara.

Ikibuga kiberaho imikino Mpuzamahanga, kiriho abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, aho bahagaze hamwe abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri aho abanyeshuri bafatira amasomo yabo, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo gu guterekaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi harimo akabati kabikwamo ibitabo abanyeshuri bifashisha mu masomo yabo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, aho abanyeshuri bafatira amafunguro. Harimo abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, aho bari gufata amafunguro kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, bityo bibafashe kwiga neza mu masomo yabo.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hari abana bakiri bato, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Ku rukuta kandi hariho icyapa, kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Harimo utubati tumanitsemo ibitabo hasi ndetse no hejuru, byifashishwa n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu b'abanyeshuri kandi bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Imbere ye hahagaze umuyobozi uri kubaha ibiganiro ababwira uburyo bagomba kwitwara.

Mu nzira nyabagendwa ahaparitse imodoka ifite ibara ry'umweru, iruhande rwayo hari abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe kandi bafite ibikapu mu ntoki, aho bari kwinjira mu modoka kugira ngo ibageze mu byerekezo bitandukanye aho bataha.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abana bakiri bato, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubaha ibiganiro ababwira uburyo bagomba kwitwara kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bose bicaye hamwe bari guhabwa ibiganiro, imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi ari gutanga ibiganiro ku banyeshuri ababwira uburyo bagomba kwitwara.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho imbere yabo hahagaze abagabo bakaba bari kubaha amahugurwa y'uburyo bagomba gukoresha mudasobwa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho, aho abanyeshuri barambika ibikoresho byabo, muri iki cyumba kandi harimo ibitabo bisomwa n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi ndetse na mudasobwa zo kwifashisha.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri ahatangirwa serivisi z'uburezi, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi harimo mudasobwa abanyeshuri bifashisha bari mu bushakashatsi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri ahabera ubushakashatsi ku bintu bitandukanye. Harimo utubati tumanitsemo ibikoresho, byifashishwa n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho imbere yabo hahagaze umugabo uri kubakoresha inama, aberekera ku kibaho kiri imbere.

Kimwe mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho imbere yabo hahagaze umugabo uri kubakoresha inama, abereka uburyo bagomba gukoresha mudasobwa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi, ari kubakoresha inama yifashishije igishushanyo kimuri iruhande.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho kandi bose bari gusoma ibitabo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo barusheho kuzamura ubumenyi bwabo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, harimo umugabo uhagaze imbere uri gutanga amahugurwa abereka uburyo bagomba gukoresha mudasobwa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo ameza ateretseho ibitabo by'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse n'amakaye kandi kuri aya meza hateretseho mudasobwa yifashishwa n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa uburezi, hateye ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri iki kirere kugira ngo abahaturaniye bakomeze guhumeka umwuka mwiza, iruhande rw'inyubako kandi hari abaturage.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Hateye ibiti by'ubwoko bwinshi, birebire, bizana umwuka mwiza muri iki kirere. Iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo na byo bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Kimwe mu cyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Imbere yabo hahagaze umugabo, aho ari kubaha amahugurwa y'uburyo bagomba gukoresha mudasobwa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho. Muri iki cyumba kandi harimo ikibaho umwarimu yandikaho igihe ari kwigisha abanyeshuri.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Harimo utubati turimo ibitabo hasi ndetse no hejuru, byifashishwa n'abanyeshuri bakoresha bari mu bushakashatsi bwabo kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahatangirwa uburezi, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho. Muri iki cyumba kandi hamanitsemo utumashini dufata amashusho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, ahabera ubushakashatsi. Harimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'umweru, aho bari gukoresha imashini zabugenewe kugira ngo bakore ubushakashatsi bwabo, bityo barusheho kwiyungura ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho byifashishwa n'abaza muri iyi nyubako kugira ngo bakomeze kongera ubumenyi bwabo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imyambaro y'umweru kandi imbere yabo hahagaze umugabo uri kubaha amabwiriza y'uburyo bagomba kwitwara.